Umuhinzi uri gutera imiti mu bigori bibifasha gukura neza bigatanga umusaruro ujyanwa ku masoko, bigateza imbere ubihinga akabona amafaranga.

Abantu benshi cyane b'abarobyi bahuriye hamwe aho bagiye kuroba, bakaba bashyizemo indobani. Hano bari kuyizamura, hari umuntu wagiyemo ngo ajye kureba ko hari amafi yagiyemo, hanyuma bahite bakurura avemo.

Uburobyi bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe mu Rwanda n'abantu b'igitsina gore basigaye bakora umwuga w'uburobyi maze bakiteza imbere kuko na bo twabonye ko bashoboye.

Umurimo wo kuroba ni kimwe mu biteza imbere uwukora bigatuma ateza imbere umuryango, rimwe na rimwe usanga iyo ayo mafi ayajyana iwe abana be batajya mu mirire mibi ndetse bakagira ubuzima bwiza bitewe n'uko ibyo akora bigirira akamaro umuryango we.

Ibihingwa bitandukanye, bikoreshwa n'abahinzi, bakabona amafaranga abatunga n'imiryango yabo, bakabasha kwiteza imbere ndetse no kugira icyo bamarira igihugu.

Abahinzi basaruye ikawa bari gutunganya y'umutuku, bari imbere y'inyubako nziza, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati, ifite ikigega impande yacyo y'amazi.

Umurima w'icyayi aho giteye ahantu ku murongo, kikaba kirimo amoko agiye atandukanye y'icyayi ndetse na ba nyiracyo bakaba batandukanye, gikunda guhingwa ahantu hakonja cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu murima w'icyayi, aho bari kugenda basoroma icyayi, higanjemo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bafite intebo bahetse bari kugenda bashyiramo icyayi bari gusoroma.

Umuceri weze uri gusarurwa n'abahinzi, babasha kubona amafaranga abatunga, bagatunga n'imiryango yabo, bakiteza imbere bakagira icyo bimarira n'icyo bamarira Igihugu.

Ikawa yeze neza ifasha umuhinzi kubona amafaranga amutunga, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira Igihugu mu bigendanye n'iterambere ndetse n'imibereho ye.

Umuhinzi ufite ikawa mu gakoko, uhagaze imbere y'urutoki ndetse n'indi myaka ugiye gucuruza igicuruzwa cye akabona amafaranga amutunga.

Abahinzi bari gusarura ibihingwa byabo, kugira ngo babishore ku masoko, babone ibibatunga, bitunga n'imiryango yabo, bakagira icyo bayimarira.

Ubuhinzi bw'ikawa bumaze gufata indi ntera mu Rwanda, aho hasigaye hari abantu bahinga ikawa babigize umwuga bakayitaho hanyuma ikabateza imbere, maze bagakirigita ifaranga, bagasezerera ubukene bakaba abakungujumba.

Imiti igiye itandukanye iterwa inyamaswa ngo zibashe gutuza, igihe ba mukerarugendo bazisuye kugira ngo zidateza ibibazo, babashe kuzana amadovize atunga Igihugu.

Uducupa tw'umukara dufite imipfundikizo y'umutuku, turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo aho iyimiti ari ingenzi cyane.

Imiti igiye iterwa inyamaswa zitandukanye kugira ngo zibashe gutuza zidateza umutekano muke, iyo aba mukerarugendo bazisuye bakazana amadovize.

Icyumba kiza kirimo imiti igiye itandukanye ifasha inyamaswa gutuza kugira ngo zitange umutekano mu baturage ndetse babashe no kuba bazisura bakunguka ubumenyi bugiye butandukanye kuri zo.

Uducupa turimo amoko menshi agiye atandukanye, aho turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, tukaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo aba yagize ikibazo.

Imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu myaka kugira ngo itamungwa, biyifashe kurama biteza imbere umuhinzi, abone uko ajyana umusaruro we ku isoko, yiteze imbere ndetse agire n'icyo amarira igihugu.

Imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu guturisha inyamaswa kugira ngo zisurwe zifite umutekano ndetse n'abazisuye, babone uko bazireba neza.

Imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu kugira ngo inyamaswa zituze, zibashe kugira umutekano mu baturage, ikindi kandi, zibashe gukurura ba mukerarugendo bazane amafaranga.

Imiti igiye itandukanye iri mu ducupa tw'umuhondo ndetse n'umweru, ikoreshwa mu guturisha inyamaswa zigiye zitandukanye, zirinda abamukerarugendo bazisuye.

Umworozi w'ihene uri kuyigaburira, kugira ngo ibashe kumuha umusaruro utubutse, ajyana ku isoko ndetse n'ifumbire ijyanwa mu murima, ikabasha gutunga ibihingwa.

Abantu batatu bari mu murima, aho hari umugore uri mu murima w'ibigori ndetse harimo n'ibishyimbo, ari kugenda apakira ibintu mu gihoho, bigaragara ko agiye kubitera maze agategereza.

Abahinzi bari guhinga ibihingwa bitandukanye, babasha kubona ibibatunga bakagira icyo bimarira, bakiteza imbere ndetse bikabageza ku iterambere.

Umwana uri kugenda mu murima uhinzwemo ibimera bijye bitandukanye, aho afite umuhoro ari kugenda atema ubwatsi, bigaragara ko yagiye gushaka ubwatsi bw'inka.

Abapolisi ndetse n'abasirikare bari kumwe n'abaturage batera ibiti bigiye bitandukanye. Bifasha ubutaka kurindwa indoha ijyanwa n'imvura ndetse n'imiyaga itwara ibiti bigiye bitandukanye.

Abahinzi bari guhinga mu murima ukikijwe n'ibihuru, bari kubasha kubona aho bazahinga ibihingwa bigiye bitandukanye, nk'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi, bakazabona ibyo kurya.

Umwumbati wakuze neza, ukaba ufite amababi y'icyatsi ndetse ugafasha umuhinzi kubona ibiribwa harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo ashora ku isoko akabona ibimutunga.

Amaronji meza yakuze neza, afasha umuhinzi kwiteza imbere akabona ibyo ajyana ku isoko, akagira amafaranga ndetse akaba yabikoresha iwe mu rugo nk'imbuto.

Amapoto ariho insinga z' amashanyarazi, afasha abaturage gucana, bakabasha gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, haba nijoro kubera ko baba bari guhweza.

Urutoki rwinshi rwakuze neza rufasha umuhinzi kubona amafaranga ndetse n'ibiribwa akoresha iwe mu rugo, bikamugeza ku iterambere yifuza, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu.

Ibirayi byiza, byakuze neza biri mu murima byasaruwe, bifasha umuhinzi kubona ibyo kurya ndetse n'ibyo ashora ku isoko, akabona amafaranga amutunga n'umuryango we.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imyumbati, aho iteye mu murima kandi uwo murima ukaba uhingiye, ubuhinzi bw'imyumbati ni ingirakamaro cyane kuko bukomeje guteza imbere abatari bake mu rwanda.

Ibirayi bisa neza bisaruye byakuze neza, bifasha umuhinzi kubona amafaranga atunga umuryango we, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira Igihugu.

Ibihingwa bitandukanye harimo ibigori ndetse n'ibyatsi, bifasha abahinzi kubona umusaruro bajyana ku masoko, bakabona ibibatunga ndetse n'ibiteza imbere imiryango yabo.

Igihingwa cy'amatunda meza aryoshye yeze, bifasha umuhinzi kubona umusaruro utubutse ajyana ku masoko, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu.

Ubutunguru bwakoze neza ndetse bufasha umuhinzi kubona amafaranga amuteza imbere mu bigendanye n'imibereho, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu muri rusange.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa bikunze kuba bihinze ahantu mu gishanga kuko umuntu wabihinze bimuteza imbere, maze agakirigita ifaranga agasezerera ubukene kubera umusaruro wawo.

Ibiti birunze hamwe bicunze neza, bifasha abateka kubona inkwi bacana bakabasha kubona ibiribwa bihiye neza, bibateza imbere bakabasha kubona amafaranga, abageza ku byo bifuza.

Igihuru gikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bifasha inyamaswa kubamo zikabona ibyoku kurya ndetse zikabasha no kuba zakororoka, mu bigendanye no kuba zagira icyo zimara.

Ibihingwa bigiye bitandukanye harimo urutoki ndetse n'ibiti birebire, bifasha abahinzi kubona ibyo bajyana ku isoko ndetse n'ibitunga imiryango yabo, bakabasha kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'Igihugu.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho hariho bimwe birebire birwanya isuri ndetse uwo murima ukaba uciyemo amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kurwanya isuri.

Ahantu heza hagizwe n'ibiti byiza, birebire ndetse n'amazi, bifasha ba mukerarugendo kuhasura, bakazana amadovize atunga igihugu ndetse n'abagituye.

Abasirikare ndetse n'abapolisi bahagaze mu byatsi, barimo barareba inyamaswa zigiye zitandukanye, bibafasha kuzirinda, ndetse bakarinda n'abaturage umutekano.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko iyo bimaze gukura babitunganyamo imbaho bikavamo umusaruro mwinshi cyane, ugiye utandukanye.

Agasozi gahinzeho ibihingwa by'ibiti bigiye bitandukanye, hakaba kandi hari n'amazu meza cyane n'insina zihateye, aka gasozi kakaba ari keza cyane ku buryo umuntu wese ugatuye yumva ameze neza.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi, bibasha gukurura abamukerarugendo bakaza kuhasura, bakazana amadovize atunga igihugu kugira ngo gitere imbere.

Hari ibicuruzwa bitandukanye, harimo imiteja, karoti, urusenda rwa pripiri ndetse n'intoryi, bifasha umucuruzi kubona amafaranga.

Ipapayi nziza cyane, irimo amoko agiye atandukanye y'imbuto ariko zikaba zitarizera. Ni byiza cyane ko umuntu wese yahinga ipapayi kuko imbuto zayo zitanga amafaranga n'ubuzima bwiza.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho haba harimo imboga ndetse n'imbuto, izi mboga zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi igihe baba bari gushaka ibyo kurya.

Indabo nziza z'amabara agiye atandukanye, iz'umuhondo, umutuku, umweru, ndetse n'ayandi, bifasha uzihinga kubona umusaruro azana ku isoko, akiteza imbere.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu akaba ari kugenda ayuhira akoresheje umupira wabugenewe, ndetse aya mazi akaba asheturwa n'umurasire w'izuba uri imbere ye.

Ubuhinzi ni umurimo utunga ba nyirawo bakaba bashobora guhinga ibihingwa bitandukanye, harimo amasaka, ibigori ndetse n'ibindi, ibyo byose bifasha abahinga kubona umusaruro bakawujyana ku isoko cyangwa se bakabona ibibatunga.

Hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga byaje basigaye bifashisha muri iyi minsi igihe baba bari kuhira imyaka. Ibi bikoresho rero ni ingirakamaro kuko iyo ubiguze bibasha kuguteza imbere maze ugasezerera ubukene.

Umuhinzi w'ibigori uri kuhira ibigori bye kugira ngo bikure neza bizamuhe umusaruro ajyana ku isoko ndetse n'ibitunga umuryango we, yiteze imbere agire icyo yimarira ndetse n'icyo amarira Igihugu.

Abahinzi bari guhinga ibihingwa bitandukanye, harimo amashu ndetse n'ibigori byuhirwa kugira ngo bitange umusaruro ujyanwa ku masoko, ubashe guteza imbere abo bahinzi bigire icyo bibagezaho.

Ni byiza kuhira imyaka igiye itandukanye nk'imboga kugira ngo ibashe gutanga umusaruro utunga umuturage, akabona amafaranga, akabasha kwiteza imbere akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu.

Ahantu heza hasa neza hagizwe n'imisozi itatseho ibiti birebire ndetse n'ibyatsi, bishobora gufasha abamukerarugendo kuhasura, bakazana amafaranga atunga igihugu ndetse n'abagituye.

Ahantu heza hasa neza hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi, ibyatsi ndetse n'ubutaka, bubasha guhingwamo abaturage bakabona ibyo kurya ndetse n'ibyo bashora ku masoko.

Ahantu heza hatatswe n'imisozi ndetse n'amazi, ashobora gusurwa hakazana abamukerarugendo, bakazana amadovize atunga igihugu ndetse n'abaturage bakabasha kubaho neza.

Ishyamba ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wa wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agasezera ku bukene kuko bitanga umusaruro uhagije.

Imisozi myiza itatswe n'ibiti ndetse n'ibyatsi by'amabara meza agiye atandukanye, bifasha ba mukerarugendo kuhasura, bakazana amafaranga ateza imbere igihugu ndetse n'abagituye.

Ahantu hasa neza, hagizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bigufi, bifasha aba mukerarugendo kuhasura, bakazana amadovize atunga Igihugu ndetse n'abaturarwanda.

Imisozi myiza itatswe neza n'ibyatsi bito ndetse n' ibirebire, harimo ingemu hasa neza hafasha ba mukerarugendo kuhasura, bakazana amadovize ateza imbere igihugu.

Ahantu heza hatatswe n'imisozi iriho ibiti birebire ndetse n'ibigufi. Bihafasha gukurura ba mukerarugendo bakahasura ndetse bakazana amafaranga atunga Igihugu ndetse n'abaturarwanda.

Amagare yajyanywe kuvoma amazi, ari imbere y'ibiti bitandukanye birebire ndetse n'ibyatsi, bifasha abahavoma kubona amazi bajyana gukoresha iwabo mu ngo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu mwuga w'ubworozi ndetse n'ubuhinzi aho biba bifite amapine ndetse na moteri.

Inkoko nyinshi za kijyambere zororewe ahantu hamwe zitanga umusaruro ufasha umworozi kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama ndetse akabijyana ku isoko akabona amafaranga.

Aborozi b'inka bari gukama bakeneye amata yo kugira ngo bagemure ku masoko ndetse babashe kubona amafaranga abateza imbere mu bigendanye n'imibereho, bagire icyo bamarira igihugu.

Inka nziza iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, iri kuri ubwatsi iri mu kiraro, bifasha umworozi kubona umusaruro utubutse nk'ifumbiri abasha kujyana mu mirima ye, akabona umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'amatungo y'inka bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe umuntu woroye amatungo abasha kumuteza imbere, akazajya ayagira mu cyanya cyabugenewe akamuteza imbere.

Ihene nyinshi cyane zateraniye hamwe aho ziri mu mabara menshi y'umweru ndetse n'umutuku, izi hene ni iza kijyambere aho baziragiriye ahantu hari ibyatsi byiza cyane.

Inka ziri kurisha ibyatsi bigiye bitandukanye kugira ngo zitange umusaruro, nk'ifumbire ijyanwa mu mirima, ikabasha gukuza ibihingwa bigakura neza, bikajyanwa ku masoko.

Inkoko nziza zakuze neza nini, zifasha umworozi kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi, ndetse n'inyama, akabasha gushora ku isoko akabona amafaranga, amutunga iwe mu rugo akagira icyo yigezaho.

Ingurube nziza za kijyambere ziri kugaburirwa ibiryo kugira ngo zikure neza zitange umusaruro ku mworozi abone, amafaranga amutunga ndetse n'ateza imbere Igihugu.

Inyubako nziza ya kijyambere yubakishijwe imbaho ndetse ifasha ubwubatsi kubona ibimuteza imbere nk'amafaranga atunga umuryango we ndetse akiteza imbere ndetse akagira n'icyo amarira igihugu.

Inkoko nyinshi za kijyambere, zifasha umworozi kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama, akabasha gushora ku isoko akabona amafaranga amuteza imbere mu rugo rwe akagira icyo yigezaho ndetse n'icyo ageza ku gihugu.

Inkoko nyinshi za kijyambere zifasha umworozi kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama ndetse akagira n'amafaranga igihe yabijyanye ku isoko, abasha kumuteza imbere akagira icyo yigezaho.

Inka nziza ziri kurisha ubwatsi ziri mu kiraro cyubakishijwe ibyuma, bifasha umuhinzi kubona umusaruro utubutse ajyana ku isoko, bikamurinda kuba yabura ibyo kurya iwe mu rugo.

Inkoko nyinshi nziza zitanga umusaruro za kijyambere zifasha umuhinzi kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama, akabona ibyo ashora ku isoko bikamuhesha amafaranga amutunga n'umuryango we.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho yororerwamo imishwi y'inkoko, ifasha umucuruzi kwiteza imbere, akabona ibikomoka ku matungo ndetse n'amafaranga abasha kumuzamura.

Ubworozi bw'inka burushaho gutera imbere cyane uko bwije n'uko bukeye, aho aborozi babigize umwuga, baba bafite ahantu habugenewe baragira amatungo yabo, bakayahajyana, bakayaharagira, hanyuma akororoka, agatanga umusaruro.

Ibishyimbo by'umutuku bisa neza bari kugosora, bifasha umuhinzi kubitunganya akabijyana ku isoko akabona amafaranga amutunga ndetse n'umuryango we.

Umuceri mwiza wakuze neza, usaruye wumye, ufasha umuhinzi kubona amafaranga atunga umuryango ndetse akiteza imbere mu buryo bugaragara.

Umuntu uri gutoranya ibigori akaba afite impongure z'ibyanduye mu ntoki akomeje kuzenguruka aho bisutse kugira ngo atoranyemo ibizaba imbuto nziza.

Ibigori byiza byakuze neza bisa neza, bifasha umuhinzi kubona ibyo ajyana ku isoko, akabona amafaranga ndetse n'ibitunga umuryango we.

Umuveterineri wabyigiye akaba yambaye isarubeti n'udukantoki by'ubururu, ishati y'umukara mo imbere yambariyemo agapira k'umweru, yambaye n'ingofero bigaragara ko yagiye kuvura inka ashaka kuyitera urushinge.

Itungo rigufi iri guterwa umuti kugira ngo rigire ubuzima bwiza, ribashe guha umworozi umusaruro utubutse ajyana ku masoko, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira Igihugu.

Ubworozi nk'uko bumaze gutera imbere cyane muri iki gihe, aho hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma zamara gukura, zikabaha umusaruro maze bagatera imbere.

Inka nziza yakuze neza iri mu kiraro, umworozi uri kuyivura kugira ngo igire ubuzima bwiza, ibashe kumuteza imbere abone ibikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'inyama, akabasha no kubona amafaranga.

Ubworozi bw'inka burushaho gutera imbere uko bwije ndetse n'uko bukeye hari ibi biba byarubatswe bazishyiramo bagiye kuzikingira kugira ngo bazitere urushinge zitinyeganyeza na gato.

Umugabo wambaye isarubeti ijya gusa ubururu, akaba ari ahantu ndetse akaba ari kuvura itungo ry'inka bigaragaza ko ryagize ikibazo. Ni byiza cyane kwita kuri aya matungo.

Ikiraro kirimo inka nyinshi, bifasha umworozi kubona ibikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'inyama, bimufasha kubona amafaranga amuteza imbere.

Ikiraro kiza kirimo inka nyinshi cyubakishije ibiti ndetse kiriho n'abavura izo nka indwara zigiye zitandukanye, bizifasha gukura neza ndetse zigatanga umusaruro ushimishije.

Inka nziza yakuze neza iri mu kiraro cyubakishijwe ibyuma. Iriho abari kuyitera umuti kugira ngo igire ubuzima bwiza. Bifashe umworozi kubona umusaruro utubutse.

Inka ziryamye hasi zitanga umusaruro ushimishije. Ifumbire ijyanwa mu mirima kugira ngo umuhinzi abone umusaruro utubutse ajyana ku masoko.

Inyamaswa nziza zisa neza zishobora gukurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura, bakazana amadovize atunga Igihugu ndetse n'ab'imbere mu Gihugu bazisura bakabasha kuzana amafaranga ateza imbere Igihugu.

Ahantu heza hari inyamaswa zigiye zitandukanye ziri munsi y'ibiti, ziri kurisha ibyatsi, bifasha abamukerarugendo kuhasura, bakabasha kuzana amadovize.